Gahunda zitandukanye za leta usanga ahanini zigiye zitabiriwe n'abantu batandukanye urubyiruko, abakuze, abashekanguhe n'abandi bafite aho bahuriye n'izo gahunda ziri gukorwa mu ako kanya usanga bose bazitabiriye kandi ubona ko ari ibintu bibanyuze.

Abaturage iyo bahuye n'umuyobozi wabo baricara kugira ngo bumve gahunda umuyobozi wabo yateguye kubagezaho, umuyobozi wabo afata ijambo ndetse agahambwa n'indangururamajwi kugira ngo ageze ku baturage ayoboye gahunda runaka cyangwa se icyatumye bahurira aho.

Biba byiza ko mu gihe cyose ufite ikintu runaka ushaka kugeza ku baturage cyangwa ushaka kubabwira biba byiza icyo ubabyihagaze bose bakureba ni nabwo igitekerezo cyawe cyumvikana kuko buri wese abareba uri gutanga igitekerezo bityo giha agaciro cyane.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Mu nama cyangwase mumahugurwa, biba byiza cyane yuko abantu bitabiriye iyonama cyangwa amahugurwa, bakurikiira ibiri kubera muri iyo nama cyangwa se ayo mahugurwa, mugihe cyose bayitabiriye bika byiza y'uko, mugihe hari igitekerezo kiza kivugiwemo, abafite aho agomba kucyandika kugira ngo kize kumufasha hanyuma.

Muri gahunda ya Leta ni uko no kwita k'urubyiruko birimo; igihe kijya kigera ikabahuriza ahantu runaka mu rwego rwo kubahugura mu gikorwa runaka cyangwa se mu kubagira inama yuko bakwiye kwitwara mu gihe bagezemo.

Ahantu hose hahurira abantu bari mu nama cyangwa se mu mahugurwa biba ari byiza iyo buri wese aho yicaye haba hari indangururamajwi mu gihe cyose agize ikibazo cyangwa se igitekerezo ashaka kugeza kuri bagenzi be akagitanga bitamusabye guhaguruka ngo ajye gutira indangururamajwi ya mugenzi we kugira ngo atange icyo gitekerezo cyangwa ikibazo, ahubwo agahita akoresha iy'ibiriri imbere ye.

Rimwe na rimwe mu nzego za leta, bijya bibaho ko umuyobozi runaka akenera kuganira n'abaturage, iyo akeneye kuganira n'abaturage habaho igikorwa cyo gutegura uruganiriro ndetse n'aho bazahurira, akanabimenyesha abaturage bagahura, hanyuma akagari cyangwa umurenge runaka baterateranya amafaranga, hanyuma bakubakisha cyangwa se bagasakaza aho bazaba bicaye, mu rwego rwo kwirinda izuba cyangwa imvura.

Iyo abantu bari hamwe bafite icyo bakora cyose kigenda neza kubera ko iyo abantu bahuje ibitekerezo binyuze mu buryo bw'ibiganiro igikorwa cyose bakoreye aho ngaho kigenda neza iyo babashije kucyumvikanaho.

Aha haragaragara abaturage bizihiwe basa nkaho bari muri sitade basa nk'aho bari bashyigikiye igikorwa kimwe kandi icyo gikorwa kikaba cyari cyagenze neza mu bigaragara kuko barishimye cyane barizihiwe muri make bameze neza.

Hirya no hino mu nama cyangwa se mu mahugurwa biba byiza yuko abitabiriye iyo nama cyangwa se amahugurwa bakurikira neza ibiri kuvugirwamo ndetse na gahunda ziri kuyitangirwamo kugira ngo bagire icyo bakuramo ndetse n'ayo mahugurwa azabagirire akamaro.

Hirya no hino abantu bamaze gusobanuka bamaze kumenya ikiza cyo gukorera hamwe cyangwa kwicara hamwe bakaganira ku kintu runaka, ni uku bajya babigenza hari igihe bafata umwanya bagahurira ahantu runaka bakiga ku kintu runaka cyangwa se bagahugurwa ku kintu runaka.

Muri gahunda ya leta usanga habaho n'igikorwa cyo guhuriza hamwe abakozi bayo. Mu rwego rwo kubagezaho amahugurwa cyangwa se kubamenyesha gahunda nshya muri gahunda bari basanganywe, igahunda yongewemo cyangwa se icyahinduwe, mu rwego rwo kugira ngo bose babimenye kandi babimenye bari hamwe.

Mu bikorwa bya leta nko mu nama za leta ikintu kibiranga ni uko usanga imwe mu miteguro yabo usanga iteguje ibendera ry'igihugu ndetse n'abantu bahari ugasanga uburyo bicaye n'uburyo bameze ubonayo kuko ari abantu biteguye igikorwa runaka cya leta n'inama amahugurwa n'ibindi.

Mu bikorwa bitandukanye bya leta byitabirwa n'urubyiruko, ikintu gikunze kubiranga n'uko usanga ahanini, urwo rubyiruko baruha imyenda cyangwa se imyambaro ijyanye n'icyo gikorwa, cyangwa se isobanura icyo gikorwa barimo, mu gihe bagitangiye cyangwa se mu gihe bakirimo kugera bagisoje.

Muri gahunda zitandukanye za leta haba hagiye harimo ibyiciro by'abantu batandukanye, aho ushobora gusangamo abasaza, abakecuru, urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu, ugasanga harimo n'ibyiciro by'abazungu kabone n'ubwo yaba ari inzego za leta mu gihugu cy'u Rwanda.

Ni byiza kandi ni ibyagaciro ko mu gihe abantu basoje igikorwa runaka cyangwa se amahugurwa bafata ifoto y'urwibutso, kugira ngo bazabone uko babwira abandi batari bahari cyangwa se bazabereke uko byari bimeze mu icyo gihe batari bahari nabo bagire umwete wo kuzahaboneka ikindi gihe runaka.

Bijya bibaho ko abaturage bitabira igikorwa runaka amahugurwa cyangwa se inama, ugasanga bicaye ahantu hamwe ndetse banakurikiye icyo gikorwa, ugasanga bishimiye uburyo bari kugezwaho icyo gikorwa. Ndetse banishimiye uri kubagezaho icyo gikorwa ugasanga ni ibintu byiza kandi bisa neza kuko bigaragaza ubumwe bw'abaturage.

Igihe cyose mu nama cyangwa se amahugurwa ya leta, abantu bahagarariye iyo nama cyangwa se abantu b'ingenzi muri iyo nama, bagomba guhabwa ibyicaro mu myanya y'imbere; mu gihe cyose bashaka gutanga igitekerezo, cyangwa se bakeneye kugira icyo bageza ku baturage, bagitange bitabavunnye. Kandi abaturage bose babareba, mugihe icyo bababwira cyose, ukivuze babe bareba uwo ariwe n'icyo kivugiye.

Ahantu hose habera inama cyangwa se amahugurwa yo ku rwego rw'igihugu, usanga ikintu kiharanga ari uko haba hafite ibara ry'ibendera ry'igihugu. Usanga aho bicaye ndetse n'aho bari gukorera, hasi hateye irange riri mu ibendera ry'igihugu.

Igihe cyose muri mu nama cyangwa se mu mahugurwa ya leta, ni byiza yuko buri wese ufite igitekerezo cyangwa sekundi kuntu yumva ikintu bitewe n'ingingo bari kuganiraho, ni byiza yuko atanga icyo gitekerezo cye, bakacyumva bakagisesengura hanyuma bakagiha umurongo.

Hirya no hino mu gihugu hari igihe hategurwa amahugurwa cyangwa se inama bagira ngo baganire ku ngingo runaka ariko rimwe na rimwe ugasanga iyo nama cyangwa amahugurwa byateguwe, byateguriwe n'imyenda yayo yihariye y'abantu bose bari buze kwitabira ayo mahugurwa, ugasanga mu nama cyangwa se mu mahugurwa abantu bose bayirimo barasa kuko baba bambaye imyenda isa.

Gahunda zitandukanye za leta zirangwa no kwitabirwa n'abantu b'ibyiciro bitandukanye, ugasanga harimo urubyiruko, abubatse abakecuru n'abasaza, kandi bose intego bahuriyeho cyangwa ikigamije kumva, n'ikigamije kuvugirwa aho ngaho ari kimwe.

Hirya no hino hifashishijwe ikoranabuhanga usanga mu nama cyangwa se mu mahugurwa runaka abantu bifashisha ikoranabuhanga mu gusobanura ibintu cyangwa kuvuga ibintu aho bitagora yuko asobanura byinshi ahubwo avuga bike ibindi ikoranabuhanga rikamwunganira.

Hari igihe bijya biba ngombwa yuko uko idini runaka rishobora kwitabira igikorwa runaka bitewe n'icyo reta (leta) igamije kugeza kuri iryo dini cyangwa se ishaka kubabwira ugasanga biba ngombwa y'uko babateranyiriza ahantu hamwe ugasanga baje bambaye ibintu bisa bose bagaragaza icyo bahagarariye cyangwa se idini bahagarariye muri iyo nama cyangwa se muri ayo mahugurwa.

Hirya no hino mu nama cyangwa mu mahugurwa usanga bifashisha umuntu uri bufotore ku migendekere y'igikorwa kugira ngo mu gusobanura icyo gikorwa cyangwa se mu kugira muhimake abatari bahari bazabone nicyo bagaragaza ibyakozwe cyangwa se imyanzuro yabafatiwe.

Iyo bavuze ubumwe mu baturage, ubumwe mu baturage ni igihe abakecuru n'abasaza abagabo n'abagore ndetse n'urubyiruko mu ngeri zitandukanye bicara hamwe bakicara ku ntebe imwe bakaganira ku kintu runaka cyaba ari ikibazo bagafatanya kugishakira igisubizo.

Ni byiza yuko mu gihe mwitabiriye amahugurwa cyangwa se inama yateguwe na Leta, mukurikira uri kubagezaho ayo mahugurwa cyangwa se iyo nama, mu rwego rwo kugira ngo mugire ibyo mucyuramo, hanyuma namwe muzabigeze ku bandi, batari bahari mu gihe bazaba babikeneye.

Bijya bibaho ko abantu bicara ahantu runaka buri wese na mikoro ye, bakaganira ku kintu runaka ndetse bakagihanaho ibitekerezo byabagirira akamaro, nyuma yabo bakaza kubifataho umwanzuro bakabisakaza hirya no hino mu baturage bagatangaza iyo myanzuro bafashe, iyo babonye ari ingirakamaro cyangwa se ari ngombwa ko bayitangariza abaturage.

Muri gahunda za Leta cyangwa se mu buyobozi bw'igihugu usanga haba harimo n'ibyiciro biyobowe n'abagore. Aho umugore atanga ikiganiro cyangwa se inama cyangwa amahugurwa akayageza ku bagabo cyangwa se n'abandi bantu kandi bakamukurikira, bakamwubaha kabone n'ubwo yaba ari umugore na we aba afite uruhare rukomeye cyane kandi aba agomba kuvuga akanatanga igitekerezo cyiza kandi cyumvikana.

Iyo abaturage bahuriye ahantu runaka mu rwego rwo kugira ngo bige ku kintu runaka, biba byiza yuko aho hantu bahuriye ari benshi bahasakara mu rwego rwo kugira ngo babarinde imvura cyangwa se izuba mu gihe cyose byaza kubaho batari basoza igikorwa cyabateranirije aho.

Mu rwanda habaho inama cyangwa se hakabaho amahugurwa ndetse n'ibindi bikorwa bihuza abantu bigamije yuko buri wese atanga igitekerezo, ugezweho ahabwa indangururamajwi hanyuma agatanga igitekerezo ku ngingo bari kuganiraho akabivuga uko abyumva ndetse n'uko bikwiye kugenda.

Ikoranabuhanga ryateye imbere kubera ko hirya no hino mu mirimo itandukanye cyangwa se mu kazi gatandukanye, usanga hifashishwa ikoranabuhanga rya mudasobwa mu rwego rwo kugira ngo ako kazi cyangwa se iyo mirimo iri gukorwa ikorwe neza mu gihe gitoya kandi vuba.

Hirya no hino ahantu hatangirwa inama cyangwa se amahugurwa afite aho ahuriye na leta ni byiza yuko buri cyiciro cy'umuntu runaka imbere ye haba hari indangururamajwi mu rwego rwo kugira ngo igihe ashatse gutanga igitekerezo cye cyangwa kubaza ikibazo ahita abikore aho ngaho bitamusabye guhaguruka.

Nk'uko bisanzwe mu muco w'abanyarwanda iyo bafite ikintu cyo kuganiraho muri rusange bijya bibaho ko bahura bakakiganiraho. Abantu nk'aba iyo bahuriye ahantu nk'aho ngaho, igikorwa ni uko bashaka amazi baraza kwifashisha kugira ngo hatagira uza kwicwa n'inyota kandi igikorwa cyahahuje kitaragana ku musozo.

Ntibikiri ngombwa yuko mu nama cyangwa se mu mahugurwa, utanga amahugurwa cyangwa uri kugeza ku bandi inama avunika avuga amagambo menshi ahubwo ni byiza yuko avuga make ibindi agakoresha ikoranabuhanga abo abwira bakaba babyirebera.

Leta igira gahunda nyinshi zitandukanye kandi uko izo gahunda zose zitandukanye ni nako ikeneye abantu bayifasha kugira ngo izo gahunda zigerweho cyangwa se zigende neza kuko izo gahunda zose ziba zarateguriwe abaturage bityo rero n'abakwiye kuzibagezaho n'abaturage bagenzi babo.

Iyo abantu bateraniye ahantu ari benshi byanze bikunze hari igikorwa kidasanzwe kiba cyabahuje. Biba byiza iyo icyo gikorwa bacyitabiriye, bakagikora neza kuva gitangiye kugera ku musozo, mu rwego rwo kugira ngo icyo gikorwa cyabajyanye cyangwa se umwanya bataye ntube imfabusa, ahubwo yaba igikorwa cyabajyanye ndetse n'umwanya wabo, byose bibe iby'ingirakamaro.

Ikoranabuhanga ryateye imbere cyane ku buryo usanga mu gihe abantu bahuriye ahantu runaka usanga bari gufata amafoto, cyangwa se bari kwifotora bakoresheje terefoni zabo ngendanwa hatabayeho gukenera ubundi buryo runaka bwofashisha, bifashisha mu gufata amafoto, ahubwo bagakoresha terefone zabo.

Mu igihugu haba hagiye harimo ibigo by'itumanaho bitandukanye ariko icyo byose bihuriraho ni uko biba bikeneye iminara kugira ngo imiyoboro yabyo ihuzwe cyangwa se icyo bakeneye kigere ku baturage, kubera ko haramutse nta minara ihari, ntabwo icyo bashaka kugeza ku baturage cyajya kibageraho nk'uko bikwiye.

Serivisi y'irembo yarabyoroheje byose kubera ko buri kimwe cyose wajyaga gusaba ku irembo bikagusaba kujya nko ku cyicaro cyangwa se ku ishami ribishinzwe ubu ntibikiri ngombwa, buri serivisi yose ikorwa n'irembo birashoboka ko umuturage wese ufite telefone ngendanwa ashobora kuyisabira.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Hirya no hino ahantu hahurira abantu benshi kandi bose baba bafite amatelefone ngendanwa cyangwa se bafite ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, ni byiza yuko haba hari itumanaho rya murandasi mu rwego rwo kugira ngo mu gihe bahageze bakomeze baganire cyangwa se akazi kabo gakomeze nta gihagaze.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kigenda gishyiraho uburyo bworoheye buri muturage wese mu kumenyekanisha umusoro cyangwa se kwishyura umusoro akoresheje telefone ye ngendanwa bitabaye ngombwa yuko ajya ku biro bishinzwe umusoro n'amahoro bimutwaye amatike ahubwo ashobora kubikora yibereye iwe kandi bikagenda neza.

Kubera ubwinshi bw'inzu zo muri Kigali kugira ngo zimenywe gutandukanya cyangwa se kuba waharangira umuntu bimworohere, ni uko usanga buri nzu yo muri Kigali iba igiye ifite icyapa kiriho na nimero ziyiranga. Ku buryo ushobora kurangira umuntu runaka ngo uzaze ku gipangu nimero iyi n'iyi, murwego rwo kugira ngo azaze atayobye ahubwo azaze areba iyo nimero ahagere vuba kandi bitamuvunnye.

Ikigo k'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro kigira umumaro munini, kuko ari cyo gishinzwe gukusanya imisoro y'ibyinjiye n'ibyasohotse, hanyuma avuyemo kikayifashisha mu bikorwa biteza igihugu imbere ndetse n'abaturage.

Uburezi bufite ireme ni imwe mu nkingi y'iterambere mu Rwanda, bityo rero ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda isaha ku isaha umunsi ku munsi gihora gishaka uburyo cyateza ireme ry'uburezi imbere kugirango ngo iterambere ry'igihugu rikomeze ryihute kandi vuba.

Serivisi nyinshi umuntu akenera ku ikoranabuhanga kuri ubu ngubu byarorohejwe, kubera yuko buri wese ufite terefoni ngendanwa, izo serivisi ashobora kuzisabira, bitabaye ngombwa yuko ajya ku kigo runaka ngo bamufashe cyangwa se ngo ya afashwe n'undi muntu runaka, na we ubwe yabyisabira aho yibereye.

Hirya no hino ku mihanda haba hagiye hari ibyapa bitandukanye, ibyo byapa ahanini biba bigaragaza ibyo umuntu runaka akora cyangwa se ikigo runaka gikora. Icyo cyapa ahanini kiba kigaragaza ibyo uwo muntu akora ndetse naho abikorera.

Umuhanda nkuyu ukunze gukoreshwa cyane n'abagenzi bagendesha amaguru, mu gihe umuhanda munini cyane bawuharira ibinyabiziga, ujya gusa nuyu bakawuharira abagenzi. Ariko ibi bidasobanuye yuko n'umuturage ku giti cye ubifitiye ubushobozi atakubakisha umuhanda nk'uyu nguyu, awuganisha iwe.

Bitewe nagahunda ihari yo kwirinda ibyorezo nibyiza ko mu gihe wumvise ko hadutse icyorezo runaka wihutira uburyo bwo kukirinda harimo n'uburyo bwo gukoresha agapfukamunwa, kuko iyo wambaye agapfukamunwa iyo ari icyorezo cyandura binyuze mu mwuka kidashobora guhita kikugeraho.

Buri gikorwa mu gihugu kiba gifite ikigo cy'igihugu gikuru kigihagarariye mu gihugu, hari ikigo cy'igihugu kiba gihagarariye uburezi, igihagarariye ubuhinzi, igihagarariye ubushoramari n'ibindi, kandi ibyo bigo byose cyane cyane ibigo bishinzwe uburezi biba bifite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu.

Igihugu giteye imbere ahanini usanga kirangwa n'ibikorwa by'ubukerarugendo. aho abanyamahanga bava mu bihugu byabo bakaza gusura icyo gihugu, kubera icyo gihugu ibintu runaka bikigaragaramo aba banyamahanga ubwabo badasanzwe bafite aho iwabo mu gihugu cyabo.

Gaze twese turayizi ni kimwe mu gikorwa cy'iterambere igihugu cyagezeho nyuma y'uko cyari kivuye mu gucana inkwi n'amakara, ariko nanone iyi gaze iyo uyikoresheje nabi nayo itera impanuka nyinshi harimo gushya ndetse no kwangirika kw'ibintu runaka, n'iyo mpamvu ikigo cy'igihugu kibishinzwe umunsi ku munsi kitugira inama gisoreza n'amabwiriza agenga imikoreshereze ya gaze.

Umuntu wambaye umupira wa oranje wicaye mu ntebe ya purasitike wegamye, inyuma ye hari utubati tubiri tubikwamo, kamwe gasa umweru akandi gasa kacyi harimo ibikoresho bitandukanye.

Si byiza gukoresha ikoranabuhanga cyane kuko iyo urikoresheje igihe kinini cyane bigeraho ukaba imbata yaryo ariho usanga iyo utabonye ikoranabuhanga rimwe na rimwe usanga wabuze amahoro cyangwa se rikagira ingaruka ku mubiri wawe nk'igihe wambara ekuteri igihe kinini bishobora kukwangiza amatwi bityo bikakuviramo ubumuga bwo kutumva.

Umunsi ku munsi uko bwije nuko bukeye, urubuga rw'irembo rugenda rwagurira imirimo yabo hirya no hino kugira ngo rukomeze korohereza abaturage kubona serivisi zarwo, ku buryo bwiza kandi bubanogeye.

Ikoranabuhanga kuri bose ryaragakemuye, kuko usanga imirimo imwe n'imwe yo kwicara mu biro cyangwa se hari n'abayikora ari nko kwihangira imirimo, ugasanga akazi ke aka ari ko kose ka buri munsi, agakora yifashishije ikoranabuhanga rya mudasobwa cyangwa se terefone ngendanwa. Ugasanga akora akazi runaka ariko ako kazi ntabwo yirirwa kamuvuna cyangwa se ngo kamugore kubera yuko aba akoresha ikoranabuhanga.

Muri iyi minsi ubujura bw'ikoranabuhanga bureze kandi buteye imbere cyane niyo mpamvu abanyarwanda twese muri rusange dushishikarizwa gushishoza mu gihe twakira amafaranga cyangwa tuyohereza kubera yuko hariho ubujura bukorerwa muri ubwo buryo bugatwara amafaranga y'abantu kubusa.

Urubuga rw'Irembo rugenda rutanga serivisi zitandukanye, ariko muri serivisi zitandukanye rutanga inyinshi usanga ari serivisi zijyanye n'ikoranabuhanga, kuba wakisabira ibyangombwa cyangwa se kuba wakwinjiza amakuru yose ukeneye mu ikoranabuhanga wifashishije urubuga rw'Irembo barabigufasha, haba hari abakozi babihuguriwe bashinzwe kubikora kandi bakabigufasha mu gihe gitoya.

Interebuteri ifatanye n'agatiyo gafashe nk'insinga bihuzwa n'agansinga hari agatsiga k'umukara n'akandi tubiri tw'ubururu biri ku gikuta cya karabasasu hejuru hari amabati, izo eterebuteri ni eshatu.

Tuzi neza ko umuriro ari ingirakamaro tuzi n'imiyoboro y'amashanyarazi igenda iyajyana mu ngo hirya no hino cyangwa se mu bigo runaka ariko iyo miyoboro y'amashanyarazi nayo iba ifite aho ikura amashanyarazi ariho bita ku ngomero izo ngomero ziba zigenda nazo zitandukanye bitewe n'aho zubatse .

Kuri ubu ngubu imiyoboro y'amashanyarazi bigiye yarateguriwe ahantu runaka itunganyirizwa cyangwa se ahantu rusange hihariye iyo miyoboro y'amashanyarazi inyura cyangwa iva mbere yuko igera ku baturage cyangwa se mbere y'uko igeza umuriro w'amashanyarazi ku bawugenewe.

Imiyoboro y'amashanyarazi ni ingirakamaro cyane kuri buri muturarwanda ndetse n'igihugu muri rusange kuko birazwi yuko iyi miyoboro y'amashanyarazi ari imwe mu iterambere rirambye ry'igihugu nta muriro gahunda nyinshi zirahagarara kuko gahunda nyinshi ubungubu zisigaye zikoreshwa ikoranabuhanga kandi iryo koranabuhanga rikeneye umuriro w'amashanyarazi.

Igiti kirekire cyane giteye iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo uca munsi y'ikiraro uri kugendwamo n'ipikipiki ndetse n'imodoka ebyiri ntoya hakurya hagaragara ibiti.

Igihe cyose ukora akazi gafite aho gahuriye n'umuriro w'amashanyarazi, ni byiza yuko habaho kwitonda no gushishoza cyane mu rwego rwo kwirinda impanuka ziterwa n'wo muriro w'amashanyarazi, kuko nubwo aba ari igisubizo ariko iyo ukoreshejwe nabi aho kugira ngo ube igisubizo uba ikibazo kuko uteza impanuka nyinshi.

Imijyi hirya no hino usanga igizwe n'ibintu bitandukanye hari aho usanga umujyi ugizwe n'amazu ibiti n'amashanyarazi ninyubako nyinshi zitandukanye

Umujyi ahanini urangwa no kuba ufite inzu z'amashanyarazi, inzu zigezweho kandi ukeye. Ibyo ngibyo n' ibintu bimwe bishobora kukugararariza ko ahantu runaka hateye imbere cyangwa se aho hantu runaka ari mu mujyi runaka.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Impamvu imiyoboro y'amashanyarazi inyuzwa hejuru mu kirere ni bumwe mu buryo bwiza bwo kwirinda impanuka zaterwa n'iyo miyoboro y'amashanyarazi kuko nubwo imiyoboro y'amashanyarazi myiza kuko itanga umuriro w'amashanyarazi ku baturage, ariko na none iyo ikoreshejwe nabi aho kugira itange umusaruro ahubwo iteza impanuka harimo n'urupfu.

Iterambere rya mbere umuturage yirata ni umuriro w'amashanyarazi. Iyo afite umurirp w'amashanyarazi bwira agacana itara rikaka, yaba akoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga akabikoresha kubera uwo muriro w'amashinyarazi, nta kabuza uwo muturage aba yarateye imbere ku rwego rushimishije.

Kuru biragoye yuko ubona inzu runaka itagira umuriro w'amashanyarazi kuko umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu gikorwa cya mbere cy'iterambere kukofasha abaturage kugera ku ntego zabo ndetse n'insinzi zabo kuko ubafasha mu mirimo yabo ya buri munsi akazi kabo ka buri munsi iyo bakora bityo bagakora bakiteza imbere ku buryo bwiza kandi bitabagoye.

Mu mihanda ya kaburimbo ah' ariho hose usanga hari umuhanda wa kaburimbo wagenewe ibinyabiziga ndetse n'undi muhanda wagenewe abanyaruguru, uwo muhanda wagenewe abanyamaguru nta kindi gikorwa icyo ari cyo cyose cyemerewe kuhaca usibye abanyamaguru, nabo bari kugendesha amaguru.

Iyo ubonye inzu nziza byanze bikunze uhita utekereza ko iyo nzu hari igikorwa runaka kikorerwamo, icyo gikorwa runaka kiyikorerwamo gishobora kuba ubucuruzi cyangwa se n'ibindi bikorwa by'iterambere, ariko ukibona ubwiza bwayo cyangwa se uko iteye, ishusho yayo ihita iguha yuko hari igikorwa kiyikorerwamo kandi cy'iterambere.

Nkuko tubizi kandi tubibwirwa buri munsi n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umuyoboro w'amashanyarazi kidukangurira gukoresha umuyoboro neza nkuko bikwiye kuko nubwo uwo muyoboro ari mwiza ariko nanone iyo ukoreshejwe nabi uteza impanuka nyinshi harimo gupfa ndetse no gushya kw'ibintu runaka bityo rero tukaba dushishikarizwa nk'abanyarwanda muri rusange gukoresha uwo muyoboro w'amashanyarazi neza nkuko bikwiye.

Ku mihanda hirya no hino usanga haba hagiye hari imiyoboro y'amashanyarazi itandukanye, iyo miyoboro yose y'amashanyarazi, hari imwe iba ijyana amashanyarazi mu ngo z'abaturage, cyangwa se indi ikaba ari iy'amatara icanira ibiinyabiziga ku mihanda mu masaha y'ijoro.

Imiyoboro yose y'amashanyarazi ni byiza yuko imyinshi inyuzwa hejuru mu kirere mu rwego rwo kwirinda impanuka zaterwa n'iyo miyoboro y'amashanyarazikimutse inyujijwe aho umuntu wese ashobora kugera hashobora kubaho kuyikubaganya bityo kugira ngo itange umusaruro ahubwo igateza ibyago ndetse n'impanuka harimo no gupfa.

Mu mujyi hirya no hino hatandukanye, mu mihanda hirya no hino hatandukanye, uhasanga imiyoboro y'amashanyarazi itandukanye, ugasanga ibiti byiza bitatse iyo imihanda, n'ibindi bigaragaza ubwiza bw'umuhanda, byose bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu.

Ku mihanda yose ya kaburimbo ku nkengero zayo usanga hari agahanda gatoya kagenewe abanyamaguru ni byiza y'uko abanyamaguru bakoresha ako gahanda neza kabagenewe birinda gukoresha umuhanda wa kaburimbo usanzwe kuko wagenewe ibinyabiziga gusa.

Mu miyoboro itandukanye y'amashanyarazi usanga iba nayo ikoze mu buryo butandukanye, aho uzasanga aho insinga zifasha cyangwa se aho zinyuze ugasanga ni igiti gisa nkaho gishinze mu butaka cyangwa se ugasanga gisa nkaho ari ikibumbano babumbye.

Bimwe mu biranga inzu nziza kandi zigezweho ni uko izo nzu ziba zifite uruzitiro. Inzu izitiye byanze bikunze iyo uyibonye uhita wiyumvisha yuko iyo nzu ni nziza kandi igezweho, ugahita utangira no gukeka nuko imbere ikoze kandi utarahagera, kuko ukireba uburyo yubatse inyuma uhita umenya ubwiza bwayo imbere.

Nk'uko tubizi mu Rwanda hose ku muhanda ndetse no mu zindi nce zitandukanye, hagiye hari imiyoboro y'amashanyarazi. Iyi miyoboro y'amashanyarazi ni kimwe mu gikorwa cy'iterambere gikwiye kwitwaho kwitabwaho ndetse no kubungwabungwa, kuko bigira akamaro kanini cyane mu iterambere ry'igihugu.

Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda haba hagiye hari imiyoboro y'amashanyarazi itandukanye. Iyo miyoboro iba myiza ariko nanone ikaba mibi iyo ikoreshejwe nabi. Urugero nkiyo uhegereye ugakoraho, nta burenganzira ubifitiye, cyangwa se udafite ubwirinzi iyo miyoboro birangira ikwangije.

Imiyoboro y'amashanyarazi akenshi na kenshi birazwi ko aho uzawubona iba ifite inzu runaka cyangwa se ingo runaka igemuramo umuriro w'amashanyarazi ariko hari n'imiyoboro y'amashanyarazi iba ivana amashanyarazi ku ngomero ahubwo iyajyana mu ngo z'abaturage ariko iyavanye ku ngomero.

Hirya no hino mu mijyi yateye imbere usanga ha abagenzi bategereza imodoka haba hagiye hubatse utuzu duto duto dutandukanye, hariho abagenzi bicara mu gihe bategereje iyo imodoka itaraza. Igihe imodoka iziye yatinze cyangwa se ibangutse, umugenzi ayinjiramo avuye muri ako kazi ariko atananijwe no guhagarara cyane.

Hirya no hino mu mujyi yateye imbere, usanga haba hagiye hari imiyoboro y'amashanyarazi itandukanye, aho imiyoboro y'amashanyarazi iba igemura amashanyarazi mu ingo z'abaturage cyangwa se mubigo runaka bitewe n'umubare cyangwase ubw'inshi bw'abantu batuye ahohantu, ugasanga ibyo ngibyo nabyo biri mugikorwa cyiza cy'iterambere ku gihugu ndetse n'abaturage muri rusange.

Iminara, inyubako nziza n'ibindi biri mu bikorwa biranga ko agace runaka ari umujyi cyangwa se bishobora kuranga ko ahantu ari umujyi kubera ko ahantu usanga ibyo bintu usanga kenshi abahatuye ndetse n'abahakorera barateye imbere.

Hirya no hino tuhasanga imiyoboro y'amashanyarazi, ariko nyuma yiyo miyoboro y'amashanyarazi haba hari n'ahandi ayo mashanyarazi avoma umuriro w'amashanyarazi. Urugero, hirya no hino haba hagiye hari ingomero zitandukanye, ingomero zikoresha amazi cyangwa se ingomero zikoresha imirasire y'izuba.

Hirya no hino mu gihugu haba hagiye hari imironko y'amashinyarazi. Iyo miyoboro mu ngo zitandukanye cyangwa se ahandi hantu mu nzego za leta zitandukanye, ziba zigiye zegeye kuri iyo mihanda, iyo mironko ni ingirakamaro cyane kuko igira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu.

Ahenshi na henshi twari tuzi ko iyi miyoboro y'amashanyarazi ishyirwa mu misozi, cyangwa n'ahandi hantu hadatuwe n'abantu ariko ubungubu bimaze kumenyerwa yuko uwo muyoboro w'amashanyarazi ushobora no gushyirwa imbere y'inzu z'ubucuruzi, imbere y'inzu zikorerwamo ibintu bitandukanye kandi ntihagire icyo byangiza.

Iyi foto iragaragaza kimwe mu gikorwa cy'iterambere benshi bakunze kwita ngo amashanyarazi kuri bose. Nk'uko bigaragara hari ipoto rinyuzeho imiriro, rinyuzeho insinga z'amashanyarazi, zambuka hirya no hino, uko biri kose zigiye mu ngo z'abaturage hirya no hino. Rero na cyo ni kimwe mu bikorwa by'iterambere, kuko igihugu gifite umuriro ni ryo terambere ryambere.

Ku isi ni ahantu hakeya cyangwa se ibihugu bikeya bisigaranye ikirere cyiza gisa gitya kubera ko ibihugu byinshi ku isi kubera inganda ziteye imbere usanga imyototsi ziva muri izo nganda ndetse n'imyotsi iva mu modoka yangiza ibyo birere ugasanga byarangiritse cyane, ariko hari n'ahantu usanga icyo kirere kitarangirika bitewe n'ubwirinzi bakoresha mu kurinda yuko ibyo byosetsi byakangiza ikirere cyabo.

Ibigo nderabuzima mu Rwanda hose bigira imodoka bita imbangukira gutabara, ifasha umurwayi kugera kwa muganga atanyuze mu nzira nyinshi cyangwa ngo atinde, aho izana n'abaganga babanza kumwitaho byibanze mbere y'uko agera kwa muganga bityo akagera kwa muganga atarashiramo umwuka.

Ukigera ku kigo nderabuzima ugasanga haparitse imbangukiragutabara, nta kindi wibwira, wibwira ko uko byamera kose aho hantu ari ku kigo nderabuzima kuko iyi mbangukiragutabara nta handi yemerewe koba iri na hamwe usibye ku kigo nderabuzima cyangwa se n'ahandi hantu habugenewe.

Hari igihe ugera kwa muganga ukahasanga abantu benshi cyane, icyo gihe ibyo bigaragaza ubuke bw'abaganga, birakwiye yuko reta y'iguhugu yagenda yongera abaganga hirya no hino mu gihugu, mu rwego rwo kugananya uwo muronko w'abantu benshi baba hamwe bategereje gahunda runaka yo kwa muganga.

Abantu iyo bagenda bavuye ahantu runaka bitewe n'akanyamuneza ubabonana cyangwa ibyishimo bafite byanze bikunze uhita umenya yuko abo hantu bavuye babahaye serivisi bishimiye, kubera yuko baramutse batabakiriye neza ntabwo baba bafite ibyishimo nk'ibyo ngibyo.

Ahantu hose batanga serivisi zisaba gutegereza ni byiza yuko haba hasakaye kugira ngo bifashe ababagana mu gihe cyose babagannye ariko badafite ubushobozi bwo kubakirira rimwe ababagana, bashobora kuba bicaye aho ahantu hasakaye mu rwego rwo kwirinda izuba mu gihe bagitegereje ababafasha.

Ukigera ahantu ukabona uko hubatse, uburyo hateguye ndetse n'ubusitani buhari byanze bikunze bishobora kugutera kuhakunda cyangwa se kuhanga, ariko iyo uhasanganye ubusitani bwiza byanze bikunze uhita uhakunda ndetse ukazifuza no kuhagaruka. Henshi hatangirwa ibikorwa bya Leta cyangwa serivisi za Leta usanga hari ubusitani bumeze neza, bufite isuku kuko baba bafite abakozi bo kubwitaho buri munsi.

Kuba waramugaye ntibivuze yuko udashoboye kubera y'uko mwazaniwe utuga ugenderamo ukagendera muri ako kagare nawe ukaba hari umurimo wajya gukora uciriritse bitewe n'ubushobozi ufite ukawukora kagenda neza kandi byaba ngombwa y'uko ari umurimo winjiza amafaranga nawe ayo mafaranga ukayabonaho.

Hirya no hino mu bigo bya leta usanga hari ahantu hagiye hatandukanye hakoze nko mu mihanda ya kaburimbo rusange isanzwe igenderwamo ibinyabiziga ariko usanga aho hantu kuko nk'uko hakoze atari uko hagenda ikinyabiziga ahubwo ari isuku n'umutekano ba nyiri kuhakora baba barahashakiye bitewe n'abantu bahagenda.

Ahantu hatangirwa gahunda runaka kandi hadafite ubushobozi bwo kwakira abantu benshi. Usanga hanze haba hari intebe zagenewe abantu kwicaraho mugihe ababagana babaye benshi, kandi badafite ubushobozi bwo kubakirira rimwe. Ubwo abo bari kwakira baba bari kubakira, abo batari kwakira bakaba bicaye, mu gihe bategereje ngo abo bari kwakira basohoke nabo binjire.

Hirya no hino hakorerwa ibikorwa bitandukanye usanga haba hagiye hasi haba hashaje, biba byiza iyo hasi ahaho bavuguruye kugira ababagana bakomeze kwiyakira kuko abakiriya akenshi usanga bakururwa n'isuku cyangwa se baza bitewe n'isuku cyangwa gahunda zitangirwa aho ahantu uko ziba zimeze.

Buri bitaro mu gihugu bigira imodoka yifashishwa mu kugeza abarwayi barembye kwa muganga bitabaye ngombwa y'uko aba barwayi bashakirwa ubundi buryo, harimo gutegerwa izindi modoka zisanzwe zitwara abagenzi cyangwa se moto ahubwo bahamagara imodoka y'ibitaro, ikaza ikamutwara ikamugeza kwa muganga, dore y'uko ari na bwo ahita yitabwaho vuba mu buryo bwihuse kubera y'uko iyo azanwe n'iyo modoka y'ibitaro, aba arembye cyane.

Kwambara agapfukamunwa neza kandi ukikwiza nk'ryo bumwe bwo kwirinda indwara z'ibyorezo zandurira mu mwuka indwara y'icyorezo yandurira, mu mwuka nta gishobora kugufata igihe cyose wambaye agapfukamunwa neza kandi wikwije bityo rero mu gihe cyose hadutse indwara y'icyorezo yandurira mwuka abantu twese turasabwa kwambara agapfukamunwa mu rwego rwo kwirinda ko iyo ndwara ikomeza gukwirakwira hose mu gihugu.

Umuyobozi w'igihugu iyo ari kugeza ijambo kubo ayoboye, aho aritangira iryo jambo usanga hari ibendera ry'igihugu kandi hameze neza, usanga ari ahantu h'icyubahiro, iyo ahari aba yisanzuye ku buryo aravuga buri wese umukurikiye akamwumva kandi bitagoranye.

Mu buyobozi runaka mu nzego zitandukanye za Leta, uba ugiye usangamo abayobozi batandukanye. Ariko aho abo bose batandukanira, ni uko usanga buri muntu wese aba yambaye umwambaro ugaragaza neza akazi akora. Mu gihe cyose ubonye umuntu wambaye umwambaro w'akazi akora, iyo usanzwe uzi ako kazi runaka, uhita umenya yuko ako kazi ari akahe.

Mu minsi yashize abantu batandukanye bagiye bakora jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane bacirwaga imanza binyuze mu buryo bw'abunzi aho abaturage babaga bahari batanga ubuhamya bw'uko byagenze ndetse banasobanura uko byagenze ndetse bagashinja uwo muntu ibyaha yakoze byamuhama agashyikirizwa inzego zo hejuru zibishinzwe cyangwa se akajya mu igororero.

Gutandukanya umugore n'umugabo nuko usanga isura y'umugore iba itandukanye n'iy'umugabo, ikindi ugasanga umusatsi w'umugore utandukanye n'uw'umugabo, ntushobora kubona umugabo ufite umusatsi mwinshi umanutse ugeze hasi, ariko ku mugore uwufite byo si igitangaza.

Mu nteko nyobozi cyangwa se mu byumba by'amategeko, biba byiza yuko abahategura baba barahateguye ku buryo bwa gihanga, ku buryo usanga aho abayobozi bicara haba hari mudasobwa ndetse n'amikoro abayobozi bazajya bavugiramo mu gihe cyose bashatse kugira icyo bageza ku bo bayobora.

Hirya no hino usanga haba hagiye hubakiye, cyangwa se hari inzitiro ndende cyane, ku buryo bigoye ko umuntu uwo ari we wese ashobora kuhasimbuka, cyangwa se ngo abe yakinjiramo atabiherewe uburenganzira mu gihe atanyuze ku muryango wabugenewe. Iyo anyuze ku muryango wabugenewe, nibwo buryo bwonyine buba bushoboka bwo kuba wakinjira aho ahantu.

Mu miterere y'abanyarwanda ndetse no mu muco wabo usanga harimo n'umuco wo gusuhuzanya bahererekanya ibiganza aho buri wese ahereza ikiganza mugenzi we kandi amurebana mu maso ibyo bigakurikirwa n'amagambo meza babwirana nyuma ariyo atuma bakomeza guhuza kandi ubumwe bwabo bukabaranga.

Mu nzego za leta umugore cyangwa umugabo bose baba bemerewe gutanga ibitekerezo bimwe kandi bikunga kimwe ubungubu umugore nawe afite agaciro gakomeye mu gihugu aho ashobora gutanga igitekerezo kikagenderwaho kandi kikanabyara umusaruro .

Inzego z'umutekano buri gihe ziba ziri maso ziteguye guhangana n'abanyabyaha igihe cyose umunyabyafatiwe mu cyaha runaka ntakabuza arahanwa ndetse akanabiryozwa ariko mu guhanwa ahanwa biciye mu mategeko kuko abanza kuburanishwa yatsinda agafungurwa yatsindwa agafungwa.

Iki gikoresho ni igikoresho cy'ingirakamaro cyane kuko cyifashishwa mu kuzimya ahantu habaye inkongi y'umuriro ni muri urwo rwego hirya no hino aho bacururiza ,ahagenda abantu benshi hakwiye kuba hari igikoresho kuko impanuka zitateguje igihe cyose habaye inkongi y'umuriro bakacyifashisha bayizimya.

Inzego z'umutekano usanga zifite n'ibinyabiziga bizifasha mu kazi kazo, kubera ko zikora akazi gakomeye kandi ako kazi zikaba zitagakora mu gihe zigenda n'amaguru, niyo mpamvu ziba zifite n'ibinyabiziga bitandukanye bizifasha mu kunoza ako kazi kazo.

Mu gihugu haba hagiye harimo inzego z'umutekano zitandukanye ariko mwizo nzego z'umutekano urwego ruhagarariye izindi rwego rwa polisi usanga polisi y'igihugu ari urwego rw'umutekano ruhagarariye izindi nzego zose mu gihugu.

Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda haba hari abantu bakora akazi gatandukanye kandi abo bantu bose bakora ku kazi gatandukanye akenshi usanga baba bambaye imyenda isa neza neza n'akazi bakora niba acuruza amanite akaba yambaye umwenda ugaragaza neza ko ayacuruza ,niba ari umukozi wo mu muhanda cyangwa ashinzwe umutekano akaba agaragaza umwenda ugaragaza neza yuko ariko kazi akora bityo rero dukwiye kububaha.

Ibikoresho bigomba kuba biri ahantu hose hahurira abantu benshi cyangwa se inzu zose zirimo umuriro w'amashanyarazi kuko igihe cyose habayeho ikibazo, iyo nzu igafatwa n'inkongi y'umuriro iyo hari iki igikoresho baracyifashisha mu kuzimya, iyo inkongi y'umuriro itarangiza abantu cyangwa se ibintu byinshi.

Aha hagaragara inzego z'umutekano ziri kuzimya ahantu hasa nk'aho hari hatatswe n'inkongi yumuriro. Ibi bishushanya yuko umuturage cyangwa n'undi muntu wese ubonye ahantu hagize ikibazo nk'icyo gufatwa n'inkongi y'umuriro, arashishikarizwa guhita atangira amakuru ku gihe, kugira ngo hagire igikorwa hatarafatwa henshi cyangwa se hatarangirika byinshi.

Imodoka z'umutekano ziba zitandukanye n'izindi modoka izo ari zo zose, kuko n'iyo urebye kuri nimero zazo, usanga zitandukanye n'izindi modoka, aho uyibonye hose ushobora no kureba kuri nimero yayo ugahita umenya yuko iyo modoka ari iy'umutekano, zigenda ahantu henshi mu gihugu hatandukanye, kandi ziba ari nyinshi mu gihugu zitandukanye, kuko igihugu cyose kiba kirimo umutekano kandi abo bantu bashinzwe umutekano hose barahagera.

Iyo ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro cyangwa ari ikindi kintu runaka gihiye, biba byiza iyo witabaje ibikoresho byabugenewe mu kuzimya uwo muriro.

Ku bigo bitandukanye by'inzego za leta, usanga haparitse imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye. Hari igihe izo modoka ziba ari iz'abakozi bakora ahongaho, cyangwa se ari iz'abandi bantu basanzwe, baje gusa, abaje gushaka gahunda ibyo bigo bitanga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hirya gato hari ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi biri imbere y'inzu yo mu bwoko bwa etage .

Hano turahabona imodoka z'abashinzwe umutekano bamwe bakunze kwita pandagali, izi modoka zikaba zifashishwa n'abapolisi mu gucunga umutekano w'igihugu ndetse n'abagituye, izi modoka zikaba zifite umumaro kuko ni zimwe mu zorohereza inzego ni bimwe mu byorohereza inzego z'umutekano gukora akazi kabo neza mu buryo bwiza.

Iki gikoresho ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu kuzimya ahantu hatatswe n'inkongi y'umuriro. Iyi foto ikaba ishatse kuvuga yuko, mu gihe hari umuturage cyangwa uwundi muntu wese ubonye ahantu hatatswe n'inkongi y'umuriro, yakagombye kwihutira gutanga amakuru ku gihe kugira ngo aho hantu bahazimye inzira zikigendwa.

Mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi habaho amatora y'abakuru b'igihugu mu matora y'abakuru b'igihugu mbere y'uko ayo matora abaho habanza kuba igikorwa bita kwamamaza ukamamaza umukandida ushaka kuzatora nawe hakabaho igikorwa cy'uko yiyamamaza ajya imbere y'abaturage ababwira imigabo n'imigambi azabagezaho nibaramuka bamutoye .

Umukuru w'igihugu ni umuntu ukomeye cyane kandi afite icyubahiro kidasanzwe mu gihugu, ku buryo iyo usanga atambuka nk'imbere y'abantu bose baba basabwa guhaguruka bakamukomera amashyi ndetse bakanamuha icyubahiro akwiriye mu gihe nyacyo.

Mu gihe cy'amatora ni byiza yuko abahagarariye amatora cyangwa se abakora mu matora bagomba kuba ari indakemwa mu mico no mu myitwarire mu rwego rwo kugira ngo amatora agende neza hataza kubaho kwibana cyangwa se kubara amajwi nabi.

Iyo ubonye umuntu runaka, yicaye cyangwa se ahagaze imbere y'ibendera ry'igihugu, byanze bikunze uhita ushushanya neza akazi akora, cyangwa se icyo aricyo, uhita umenya yuko ari umukozi wa leta, ukora imirimo ifitiye igihugu akamaro, rimwe na rimwe usanga akora mu mirimo ijyanye n'iterambere.

Umuyobozi mbare y'uko ajya mu nshingano z'ubuyobozi habanza kubaho igikorwa cyo kurahira akarahirira imbere y'abaturage ndetse n'inzego za reta, akemera amahame agenga umwanya w'ubuyobozi agiyemo ndetse akenemera yuko mu gihe azakora ibinyuranyije nayo azahanwa n'amategeko.

Mu Rwanda haba hagiye hari amashyaka atandukanye mu ayo mashyaka atandukanye ninaho havamo umukuru w'igihugu, kuko usanga buri shyaka ritanga umukandida umwe cyangwa abarenga umwe kugeza hageze aho hazatorwa umwe akava mu ishyaka runaka akayobora igihugu nk'umukuru w'igihugu.

Nkuko tubizi mu Rwanda mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu haba hari abakandida batandukanye ndetse buri mukandida akagira nabo bakorana mu ishyaka bamuhagarariye bamufasha mu bikorwa byo kwiyamamaza .

Abagore nabo ni bamwe mu bagira ibitekerezo bizima kandi byubaka igihugu vuba, bitandukanye n'imyumvire ya kera, aho wasangaga batesha agaciro umugore mu nzego za leta, ariko ubu ngubu umugore mu nzego za leta nawe afite agaciro gakomeye kuko atanga igitekerezo kikagenderwaho kandi kikazabyaza umusaruro.

Mumyaka yashize byari bigoranye cyane kubona umugore uri muri perezidansi, cyangwa se uri mubundi buyobozi bukomeye bw'igihugu ariko kuru ubu aho igihugu cy'u Rwanda kigeze cyatanze uhuru cyangwa se cyo bita uburenganzira kugira ngo n'abagore nabo bahabwe ijambo ubu abagore bemerewe kuyobora mu nzego zigiye zitandukanye z'igihugu,

Biragoye kwiyumbisha ko hari hantu hashobora kwakira abantu barenga magana abiri, ariko birashoboka nibyo, usibye na magana abiri hari n'ahantu hashobora kwakira abantu barenga magana ane cyangwa magana atanu, kandi buri wese yicaye uko ashaka, uko uhitamo kwicara niko wicara, usanga hari abicaye ku ntebe, abandi bakaba bakwicara hasi n'ibindi, bitewe n'uko babishatse.

Uko iterambere ry'igihugu rigenda ritera imbere cyane ni nako umugore azamuka mu iterambere kuko umunsi ku munsi umugore agenda afata umwanya ukomeye mu iterambere ry'igihugu nko mu butegetsi bw'igihugu aho usanga umugore aba ayoboye icyiciro runaka cyangwa se akaba ayoboye akarere cyangwa intara runaka .

Mu gihugu cy'u Rwanda hagiye hari amashyaka menshi atandukanye. Kandi buri munyarwanda wese wujuje ibisabwa n'iryo shyaka kugira ngo aryinjiremo, aba yemerewe kwinjira muri iryo shyaka igihe abishakiye ntakimutangira nawe agafatanya n'abandi mu kubaka igihugu iyo iryo shyaka rigendera ku mategeko y'igihugu.

Abayobozi iyo bari mu nama cyangwa se mu mahugurwa usanga bicaye ahantu heza cyane hateguye neza, ushanga hari intebe nziza cyane ndetse na mbere y'uko batangira iyo nama babanza kubazanira amazi yo kunywa kugirango hataza kugira ufatwa n'inyota kandi inama bajemo cyangwa amahugurwa batari bayarangiza.

Muri gahunda ya leta habamo igikorwa cyo gutanga amahugurwa biba byiza yuko mu gihe hari kuba mahugurwa abitabiriye ayo mahugurwa, biba byiza iyo bakurikiye kandi bagashyira umutima ku muntu uri gutanga ayo amahugurwa, kugira ngo ibirava muri ayo mahugurwa bizabagirire akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi cyangwa se mu kazi kabo ka buri munsi.

Mbere y'uko habahoamatora y'umukuru w'igihugu habanza kubaho igikorwa cyo kwamamaza abahatana mu matora, icyo gikorwa kikaba ari igikorwa gikorwa bamwe mu bari mu ishyaka rimwe n'uwiyamamaza kigakorwa iminsi runaka iba yarabugenewe mbere y'uko amatora nyirizina aba.

Bijya bibaho y'uko abayobozi runaka nk'umukuru w'igihugu ndetse n'abamwungirije, bajya bicara ahantu hamwe bakiga ku kibazo cyugarije abaturage, cyangwa se bakiga ku kintu runaka cyagirira abaturage akamaro, bakagishakira igisubizo kirambye, kandi bakakigeraho mu gihe gitoya.

Mbere y'uko abayobozi runaka binjira mu myanya y'ubuyobozi, habaho igikorwa cyo kurahira. Umuyobozi watorewe kuyobora icyiciro runaka, akabanza kurahirira ibyo yatorewe ndetse akavuga y'uko azabigeraho afashijwemo n'abaturage be ndetse akavuga n'intego nyamukuru, itumye yarifuje kwiyamamariza uwo mwanya.

Mu gihugu usanga haba harimo amashyaka atandukanye ariko nkayo mashyaka yose aba afite umuntu runaka uyahagarariye, ayo mashyaka yose ajya agira igihe runaka cyo kwamamaza cyangwa se cyo kwishimana n'abayarimo ugasanga bahuriyeye nk'ahantu runaka bari kwishimirana cyangwa se igikorwa cyateguwe n'ishyaka bari kwishimira.

Abayobozi bakuru b'igihugu bahurira biba byiza iyo hateguwe neza ndetse hagagashyirwamo n'ibindi bikorwa byose nkenerwa, ku buryo umuyobozi icyo akeneye cyose ashobora kukibona aho ngaho bitarinze kujya kure, cyangwa se ngo ashakishe ahandi ari guta igihe, ahubwo buri kimwe cyose ashaka akakibonera aho ngaho kandi mu buryo bwihuhuse.

Ubuyobozi bwiza, iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ry'umuturage muri rusange. Iyo abayobozi bayoboye igihugu bakiyobora neza bumvikana, ntakibazo kiba mu gihugu kijyanye n'umutekano muke, byanze bikunze icyo gihugu kigera ku iterambere rirambye.

Nk'uko tubizi twese mu gihugu cy'u Rwanda mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu cyangwa se n'andi matora runaka habanza kubaho igikorwa twita kwamamaza, aho umukandida ajya kwiyamamaza imbere y'abaturage akababwira imigabo n'imigambi ndetse n'icyo azabagezaho nibaramuka bamutoye icyo gikorwa kikaba ari igikorwa kimwe mu bigaragaza demokarasi y'igihugu.

Umuntu aramutse avuze ngo umugore mu iterambere aha undi akongera akavuga ngo umugore mu nzego zitandukanye z'igihugu ntabwo yaba abeshye nk'uko tubizi mu gihugu cy'uRwanda ni kimwe mu gihugu giha agaciro imiyoborere ndetse n'ibitekerezo by'abagore ku rwego rukomeye kuko mu nzego zitandukanye z'igihugu usangamo abagore bayoboye kandi bakayobora abagabo .

Mu rwego rwo kwirinda impanuka zo mu mihanda biba byiza yuko abatwazi b'ibinyabiziga bubahiriza amategeko agenga umuhanda, harimo nko kugendera mu ruhande yagenewe mu gihe amanuka cyangwag se azamuka no mu gihe akata agakata ahabugenewe no guhagarara agahagarara ahabugenewe mu rwego rwo kwirinda impanuka zitateguwe mu muhanda.

Moto ndetse n'amagare ni bimwe mu binyabiziga byihutisha ubuzima bw'abaturage, kuko bibafasha kugera mu mirimo yabo ya buri munsi bitabagoye cyangwa se ngo bibavune. Ariko usanga hazamo imbogamizi y'uko moto ndetse n'igare ari ibinyabiziga byemerewe gutwara umuntu umwe gusa ndetse n'uwa kabiri uba agitwaye, ntabwo kiba kemerewe gutwara abantu babiri.

Uburyo bwo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali ni igikorwa leta yashyizemo imbaraga nyinshi cyane kuko ubu nta mugenzi ukibura uko agenda cyangwa ukibura uko agera ku kazi bitewe n'uko yarindiye cyangwa yategereje ikinyabiziga igihe kirekire leta yabishyizemo imbaraga zikomeye yibegereza ibinyabiziga bihagije ku buryo igihe ugishakiye cyose uhita ukibona bitakugoye.

Imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga byose, iyo bigenda mu muhanda, biba byiza iyo ababitwaye bubahirije amategeko agenga umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka cyangwa se n'ibindi bibi byose byabera mu muhanda.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali usanga ari imodoka zifiteye akamaro abaturage, kubera ko bose baba badafite ubushobozi bwo gutega moto cyangwa se bwo kugura imodoka zabo, ariko abenshi muri bo baba bafite ubushobozi bwo kubona amafaranga yo gutega izo modoka.

Nyuma y'uko haje uburyo bwo gutwara imizigo ndetse n'ibintu mu modoka ku buryo buzwi, abantu mu rwego rwo kwiyorohereza, bihimbiye ubundi buryo bwo gutwara imizigo ndetse n'ibintu mu rwego rwo kugira ngo bakomeze boroshye ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Mu rwanda dusanzwe tumenyereye ko imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ari izi modoka nini cyane ariko nyamara hari n'izindi modoka ntoya ziciriritse nazo zitwara abagenzi mu buryo bwemewe na leta, zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, mu rwego rwo gukorera amafaranga.

Amagare ni kimwe mu binyabiziga by'ingirakamaro cyane, ariko ibyo binyabiziga bikaba byifashishwa n'abaturage ba rubanda rugufi kuko ufite ubushobozi bwisumbuyeho akoresha imodoka cyangwa agakoresha moto. Ariko mu gihe ubwo bushobozi utarabugeraho, biba byiza iyo wifashishije igare mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu kujya ku kazi cyangwa se mu kujya muri gahunda zitandukanye.

Imodoka muri rusange ziba ziteye mu buryo butandukanye ariko izo modoka zose ntago ziba zitwikiriye uretse izitwara abagenzi cyangwa se izo umuntu agendamo ku giti cye ariko izo modoka hari izitwikirwa bitewe n'icyo zikora urugero nk'izitwara ibyo kurya cyangwa zitwara n'ibindi bintu nyuma y'uko bamaze kuzishyiramo ibintu biba ngombwa ko bazitwikira.

Mu muhanda usangamo imodoka zitandukanye. Imodoka zitwara ibintu ndetse n'izitwara abantu ku buryo bwa rusange. Imodoka zitwara abantu ku buryo bwa rusange usanga ari imodoka zikoranye ubuhanga bukomeye, ku buryo uyicayemo aba yicaye neza atunganye mbese ameze nk'uwicaye iwe, ku buryo iyo ari kugenda agera aho agiye nta kibazo na kimwe ahuye nacyo.

Hirya ni hino ku nyengero z'imihanda usanga hari imiyoboro icamo amazi mu rwego rwo kwirinda yuko amazi yazanyura mu muhanda akayangiza. Bityo rero abantu muri rusange barashishikarizwa kugenda neza mu mihanda ndetse no gushishoza mu gihe bagenda kuko uramutse uguye mwuwo muyoboro wakwangiza.

Hirya no hino mu gihugu haba hagiye hari amoko menshi atandukanye y'ibinyabiziga. Mu ibyo binyabiziga rero, harimo n'ikinyabiziga cy'igare. Igare naryo ni ikinyabiziga cyorohereza abagenzi mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko birashoboka ko udashobora kugira amafaranga yo gutega moto cyangwa imodoka, ariko ufite macyeya yo gutega igare.

Hari uburyo bwinshi butandukanye bwo gutwara ibintu cyangwa se ibicuruzwa ku buryo bworoshye ushobora gutwara ibintu cyangwa ibicuruzwa wifashishije imodoka zabugenewe cyangwa se ukifashisha moto ntoya ijya kumera nk'imodoka ariko nayo ikora nka moto mu ruhande rumwe ariko na none ku rundi ruhande igakora nk'imodoka .

Hari imodoka ureba ukaba bigoye kwemeza igihe neza yagereye mu Rwanda, kuko abenshi bavutse bayisanga nabandi bazavuka nayo bayisange. Ni imodoka itajya ikunze gusaza kandi benshi bavuga yuko ikomera ugereranyije n'izindi modoka, itwara ibicuruzwa bitandukanye ibiribwa n'ibitaribwa kandi ikabigeza aho bigomba kugera ntacyo bibaye.

Iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, abanyamaguru barimo baragenda. Haparitse imodoka y'umweru, ku gipangu gifite inzugi z'umukara. Imbere gato hari inyubako ndende y'igorofa, iteye irangi ry'umuhondo

Mu mihanda hirya no hino usangamo imodoka zitandukanye, usangamo imodoka ndende cyangwa se imodoka zisanzwe, ariko n'izo modoka ndende, abatwazi bazo baba bagomba kubahiriza amategeko agenga umuhanda, mu rwego rwo kwirinda impanuka zibera mu mihanda, ahubwo bakimakaza umuco ndetse n'amahame agenga amategeko y'umuhanda.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ni imodoka z'ingira kamaro cyane, kubera yuko usanga abantu bose mu gihugu atariko bafite ubushobozi bwo kugura imodoka zabo zo kugendamo ariko abenshi usanga ubushobozi bwo gutega izo modoka batabubura, ugasanga ari byiza cyane kuko biborohereza kugera mu mirimo yabo ya buri munsi kandi badakerewe.

Iyi foto iragaragaza umuhanda wa kaburimbo, ikongera ikagaragaza moto zimwe muri moto zigezweho mu mujyi wa Kigali z'amashanyarazi ndetse iyo moto ihetse umugenzi, moto ni kimwe mu kinyabiziga cyorohereza abagenzi kugera aho bagiye ku gihe badakerewe, bityo akazi kabo kakagenda neza bagateza igihugu imbere.

Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda mu bintu yateje imbere n'imihanda irimo. Aho usanga imodoka nini ndende zishobora kugenda mu muhanda umwe n'izi modoka zisanzwe, ariko ntihagire ikibazo biteza.

Igihugu cy'u Rwanda gifite gare hirya no hino mu gihugu zitandukanye. Izo gare zose zorohereza abagenzi kugera hirya no hino mu gihugu aho bashaka kujya, bitabaye ngombwa yuko bahamagaza cyangwa se batumaho modoka, ahubwo ni gare rusange ihurirwamo n'abaturage bose muri rusange.

I Kanombe mu karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali urahabona inzu ikodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amanyarwanda buri kwezi, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo n'ibindi bibiri by'ubwogero.

Mu gihe cyose amatungo ari kuvanwa ahantu hamwe ajyanwa ahandi biragoye ko warishorera ngo rivane ahantu hamwe urijyana ahandi, mu gihe cyose aho hantu rijyanye bisaba guca mu muhanda wa kaburimbo, ahubwo hazabaho ko wifashisha imodoka zabugenewe mu kwikorera ayo matungo kugira ngo iryo tungo rigeze aho rigiye vuba kandi ritangiritse.

Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gisa nk'aho ari gitoya ariko gifite imihanda myinshi kandi minini hirya no hino mu gihugu, bityo rero nk'abaturage turashishikarizwa kubahiriza amabwiriza n'amategeko agenga imihanda, mu rwego rwo kwirinda impanuka zo mu mihanda ndetse no mu rwego rwo kwirinda iyangirika ry'imihanda.

Ifoto iragaragaza imihanda inyuranyemo, izamuka n'impanuka; imwe irimo imodoka indi irimo moto. Iyi foto igaragaza neza, igaragaza cyangwa se ibwiriza abantu kubahiriza amategeko y'umuhanda; niba uzamuka ukazamuka neza, niba unamanuka ukazamuka neza mu rwego rwo kwirinda impanuka zo mu muhanda.

Aba ni abantu bagera kuri barindwi bahagaze ahantu hamwe ku itapi y'umutuku barakeye cyane, bafite icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi mu biganza byabo higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Ubu ni ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye yaba iz'umuhondo, iz'icyatsi ubwoko bwose, hirya gato ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubari aho bose.

Hirya no hino ku mihanda usanga hari imodoka zitandukanye imodoka zitwara imizigo ndetse n'imodoka zitwara abantu ariko icyo soze izo modoka zihuriraho ni uko zigenda mu muhanda umwe kandi zose zikaba zitwa imodoka zikaba zitwarwa n'abantu.

Imodoka zikorera imizigo, usanga inyuma yazo zitandukanye n'izindi modoka zose zibonetse, kuko izo modoka zikorera imizi usanga uburyo ziba ziteye inyuma yaho, ziba zisakaye cyangwa se zifite ubundi buryo ku buryo imizigo yazishyizwemo, iba ifite umutekano, idashobora kugenda inyanyagira mu muhanda, cyangwa se ngo igire ikindi kibazo.

Mu mihanda ya kaburimbo, haba hagiye hashushanyijemo ibimenyetso byinshi bitandukanye kandi ibyo bimenyetso byose biba bifite icyo bishushanya nk'ikimenyetso kiba kiri mu muhanda hagati, icyo kigaragaza aho abagenzi bambukira, bivuze ngo iyo ikinyabiziga kihageze kikabona hari umugenzi uri kwambuka, kigomba guhagarara uwo mugenzi akabanza akambuka.

Si byiza yuko umunyonzi cyangwa n'undi muntu wese utwaye igare, agendera hafi cyane y'ibinyabiziga birere kuko biteza impanuka zo mu muhanda, n'icyo kinyabiziga kigiye gukata kegereye gishobora guhita kimugonga bityo bigateza impanuka.

Moto ni ikinyabiziga cyorohereza abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko ibafasha kugera aho bagiye vuba kandi bitabahenze, kuko iyo urebye usanga abantu bose badafite ubushobozi bwo kugura izabo moto cyangwa se imodoka, ariko abenshi baba bafite ubushobozi bwo kuzitega n'ubundi buryo bwo kuzigendaho. Niyo mpamvu moto iborohereza mu kugera mu mirimo yabo ya buri munsi.

Moto ni kimwe mu kinyabiziga cyoroshye ubuzima bw'abaturage bwa buri munsi. Kuko abaturage bose badafite ubushobozi bwo kugura izabo cg se kugura ibindi binyabiziga, ariko abenshi batabura ubushobozi bwo kuyitega mu gihe bakeneye kwihuta.

Hirya no hino ku nkengero z'imihanda usanga hari imiyoboro y'amazi. Iyo miyoboro y'amazi usanga ifite akamaro gakomeye cyane kuko irinda imihanda kwangizwa n'amazi ndetse no mu gihe amazi ari kunyura muri iyo miyoboro, akagera aho yagenewe kuba yagera ntacyo yangije.

Kera mu myaka yashize hari hamenyerewe yuko imodoka zitwara abantu benshi mu buryo bwa rusange nibura iyatwaraga benshi itarenzaga makumyabiri, ariko ubu ngubu hari izisigaye zitwara abantu ijana cyangwa abarenga ijana kuko hari abagenda bicaye abandi bakagenda bahagaze, izo modoka ahanini ahenshi ziri kugenda zigaragara mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi yateye imbere.

Ndabona umugore usa nkaho arikwerekana agatabo ke gasa nkaho ari akubwishingizi bugendeye kubuzima, kandi uwo mugore ari kukereka undi wicaye wambaye akanu ku umutuku.

Mu mihanda y'igihugu hirya no hino igihe usangamo imodoka ndende zitandukanye, izo modoka ndende zose uko ziba zitandukanye, ni nako n'ibicuruzwa ziba zitwaye nabyo biba bitandukanye, ibyo byose usanga ari ibicuruzwa bikenerwa n'abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi, ariko bakaba nta bundi buryo na bumwe baba bafite babitwaramo, usibye kwifashisha izo modoka.

Mbere yuko haza izi modoka nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hari n'izindi zahoze zikora, kuko izi nini zitwara abantu benshi ndende, zije vuba. Izo rero zahoze zikora, ubu kugera ubu ngubu ziri kugenda zicika, kuko iziri gukoreshwa ubu ngubu, ni nini kandi zitwara abantu benshi cyane.

Igihugu cy'urwanda ni kimwe mu bihugu byihariye ku buhanga ubugeni n'ubukorikori aho usanga ibintu bishushanyije ibindi bibumbye ibindi bicuze, ukibaza uko byakozwe bikagucanga nyamara ubu ni bumwe mu buhanga bw'abanyarwanda kuva kera kuri gakondo yabo

Ibigo runaka hari igihe biba bidafite ubushobozi bwo kuzitira mu buryo bwubatse ariko bugakoresha ubundi buryo mu kuzitira aho bikorera, kandi ubwo buryo na bwo ugasanga ari bwiza kuko n'ubundi bwabwirinzi baba bakeneye baba babugezeho ntawapfa kuhinjira adakomanze cyangwa se atanyuze kumuryango wabugenewe

Iyo ubonye ibyapa uhita utekereza yuko ari ibyo ku muhanda. Ariko ibyapa byose si ibyo ku muhanda, kuko hari ibyapa bishyirwa ahandi hantu runaka hatari ku muhanda, bikaba byashyirwa ku ivuriro, mu nzu z'ubucuruzi, n'ahandi n'ahandi, bitewe n'icyo bishaka kugaragaza.

Umuhanda usangamo ibyapa bitandukanye, ariko icyo ibyapa byinshi bihuriraho ni uko usanga biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara, ariko iki cyapa gishaka kugaragaza ahanini usanga kiri mu ibara ry'umukara, iyo gishaka kugaragaza ko ari aho abantu bambukira usanga harimo abantu bari mu ibara ry'umukara cyangwa se n'ikindi kintu kiri mu ibara ry'umukara gishatse kugaragaza ubutumwa icyo cyapa kiri gutanga.

Byanze bikunze ucyinona icyapa kabone niyo waba utazi gusoma, cyangwa se nta kindi kintu ukiziho, ariko byanze bikunze hari ikintu kikuza mu bwonko ko icyo cyapa gishatse gusobanura. Rimwe na rimwe usanga ibyapa ikintu bisobanura, biba bisa neza neza ku buryo ukibonye wese ashobora kumenya icyo gisobanura atari ngombwa yuko biba byanditseho.

Ukigera ku muhanda ugasangamo icyapa runaka byanze bikunze hari icyo icyo cyapa kiba gishaka kugaragaza, ni byiza y'uko abakoresha umuhanda ndetse n'abatwaza ibinyabiziga bubahiriza ibyo byapa mu rwego rwo kwimakaza amategeko agenga umuhanda bityo bikafa bakabafasha kwirinda impanuka zitateguwe.

Mu mihanda hasyhirwa ibyapa byinshi bitandukanye, kandi ibyo byapa byose buri cyapa kiba gifite icyo gisobanuye n'icyo gishatse kuvuga, nta cyapa gishyirwa mu muhanda nk'umutako cyangwa se kidafite icyo gisobanuye, buri cyapa cyose kiri mu muhanda kiba gifite icyo kivuze ndetse n'icyo gisobanura, turasabwa rero kubahiriza amategeko agenga umuhanda yose aba yanyujwe muri ibyo byapa.

Ibyapa byo mu muhanda bigira umumaro munini cyane. Hari ibyapa tugeraho tukabona bisa nk'aho ntacyo bivuze, ariko nyamara bivuga ikintu gikomeye cyane, kuko iyo byitegereje neza usanga bishobora no kuturinda impanuka zibera mu mihanda. Urugero:Nk'iyo ugeze munsi y'umusozi, ugasanga hari icyapa kigaragaza ko munsi y'uwo musozi hajya hamanuka amabuye akagwa mu muhanda, umenya uko uhitwara mu gihe uri kuwugendamo.

Mu mihanda hirya no hino, iyo ugenda ugenda uhura n'ibimenyetso bitandukanye, ariko ibimenyetso byinshi icyo byose bihuriraho ni amabara abiri, ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara, ibara ry'umutuku usanga riri mu kimenyetso cya mpande eshatu naho ibara ry'umukara urisanga mu bimenyetso bitandukanye bitewe n'icyo icyo cyapa gishatse kugaragaza.

Mu Rwanda tugira ibimenyetso bitandukanye byo mu muhanda aribyo bamwe bajya bita ibyapa .Iki kimenyetso rero buri bimenyetso byo mu muhanda buri kimwe cyose kiba gifite icyo gisobanura kandi cy'ingirakamaro. Niyo mpamvu dukwiye kubaha icyo ibyo bimenyetso bitubwira kuko ni zimwe mu ngamba nziza zo kwirinda impanuka zo mu muhanda n'ibindi bitemewe bihabera mu mihanda.

Ibyapa byo mu muhanda biba bishushanyijeho ibintu bitandukanye kandi ibyo bintu byose biba bishushanyijeho biba bifite icyo bishatse kwereka abagenzi cyangwa se abatwazi b'ibinyabiziga hari aho usanga bishushanyijeho, inyamaswa, abantu, imodoka cyangwa se n'ibindi bintu byose ariko ibyo byoseba bifite icyo bisobanuye abagenda mu muhanda ndetse n'abatwazi b'ibinyabiziga baba babizi neza.

Ibyapa byose byo ku muhanda biba bifite ikintu bisobanuye kandi nta kabura umumaro icyo cyapa ikintu gisobanuye byanze bikunze kubabo kireba kibagirira umumaro ni byiza yuko abakoresha umuhanda bose ndetse n'abatwaza b'ibinyabiziga bubahiriza amategeko agenga umuhanda aba yaranyujijwe muri ibyo byapa.

Hirya no hino mu gihugu mu mihanda usanga harimo ibyapa byinshi bitandukanye ariko buri cyapa kiba gifite ikintu gisobanuye kandi icyo kintu gisobanuye kiba gitandukanye n'icyo ikandi cyapa gisobanuye aha rero biba ari byiza cyaney'umugenzi cyangwa se umutwazi w'ikinyabiziga bose bafatikanyirije hamwe mu kubahiriza amategeko agenga umuhanda nk'uko ibyo byapa biba bibisobanura.

nk'uko tubizi imihanda ibaho hakabaho n'amategeko agenga imihanda ayo mategeko agenga imihanda abaho anyujijwe mu byapa dusanga mu mihanda, ni muri urwo rwego abanyarwanda muri rusange ndetse n'abatwazi b'ibinyabiziga dukwiye kubahiriza amategeko agenga mihanda binyuze mu byapa bimwe na bimwe bitandukanye dusanga mu mihanda.

Ibyapa byo mu mihanda bigira akamaro kanini cyane, kubera ko bifasha abaturage kumenya amerekezo y'umuhanda, cyangwa se bikabafasha kumenya aho bari ni hehe. Mu gihe ugiye ahantu utahazi cyangwa utahamenyereye, biba ngombwa yuko wifashisha icyo cyapa, ugasoma ibihanditseho ukabona aho uri kujya ndetse n'aho uri kuva.

Ibyapa byo ku muhanda biba bisobanuye ibintu bitandukanye ariko icyo byose bihuriraho n'uko ibyo byapa byo ku muhanda ari ingirakamaro kandi ari ingenzi, kuko bifasha abaturage kumenya uko bagenda mu muhanda n'amategeko abarengera igihe cyose bari mu muhanda.

Ubonye icyapa nk'iki ngiki biragoye kugira uhite umenya icyo gisobanuye mu gihe cyose usanzwe utakizi. Ariko iyo usanzwe ukizi uzi neza n'icyo gisobanuye, aho wakibona aho ari ho hose ushobora kumenya icyo gisobanuye ndetse ukaba wakirangira n'abandi cyangwa ukagisobanurira abandi muri kumwe kuko ubu usanzwe ukizi.

Mu muhanda habamo ibyapa bitandukanye kandi byose bisobanura ibintu bitandukanye, habamo ibyapa bikoze mu buryo bw'imibare, hakabamo n'ibyapa bikoze mu buryo bw'ibimenyetso, hakaba n'ibyapa bikoze mu buryo ku buryo kiba gishushanyijeho umuntu cyangwa se inyamaswa.

Mu byapa bitandukanye, haba harimo amabara atandukanye, kandi ayo mabara yose aba afite icyo asobanura gitandukanye. Mu byapa bimenyerewe nk'uko bigira ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara. Ariko hari n'ibyapa uzasanga bifite amabara atatu: ibara ry'umutuku, ibara ry'umukara, ndetse n'ibara ry'imuhondo.

Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda tugenda dusangamo amagororero atandukanye ariko nk'uko bizwi mu gihugu cy'u Rwanda buri karere kagira igororero rikuru ry'akarere ayo magororero akaba yifashishwa mu kugorora abanyabyaha bagiye bakora ibyaha bitandukanye bityo mu gihe runaka nabo bakazasohoka barongeye kuba abantu bazima hehe no gusubira muri ibyo byaha ukundi.

Ibyapa hirya no hino mu muhanda usanga biri mu mabara atandukanye, ariko ayo mabara atandukanye akenshi usanga ibara ryiganzamo kurusha irindi ari ibara ry'umutuku kubera yuko ari ryo rikunze gukoreshwa mu bisobanura ibimenyetso runaka cg se n'ibindi bintu runaka, umutwazi w'ibinyabiziga cg se umugenzi ukoresha umuhanda nibura agomba kuba azi bimwe mu byapa by'ingenzi bikoreshwa mu muhanda agendamo.

Hirya no hino mu mihanda leta igenda ishyiraho uburyo butandukanye bwo korohereza abatwazi b'ibinyabiziga nko kubashyiriraho ibyapa bibabwira aho bagomba guhagarara mu gihe bashatse gushyiramo umugenzi mushya cyangwa se gukuramo umugenzi ntabwo byemewe guhagarara aho ubonye kuko biteza akavuyo mu muhanda bishobora no kuvamo, guteza impanuka zitunguranye.

Ibyapa byo mu muhanda biba biri mu mashusho atandukanye ariko ibyapa byinshi byo mu muhanda usanga biri mu ishusho y'ikinyampande cya mpande eshatu, ugasanga icyo bishatse kugaragaza kiri mu ibara ry'umukara, kiri hagati y'icyo kinyampande.

Mu rwego rwo gukomeza kubahiriza amabwiriza agenga umuhanda ni byiza y'uko umutwazi wize modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange yubahiriza ibyapa bimuyobora, aho agomba guhagarara agasiga abagenzi cyangwa se n'ibindi byapa agakurikiza ibyo bimutegeka mu rwego rwo kugira ngo akomeze himakazwe umutekano wo mu muhanda.

Hirya no hino haba hari ibyapa bitandukanye umutwazi w'ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange hari ibyapa byihariye biba bisa nkaho bimureba biba bisa nkaho bitareba izindi modoka, urugero ni ibyapa bimwe na bimwe bimubwiriza aho agomba guhagarara mu gihe ashatse gusiga umugenzi ndetse n'ibimubwira ko aho hantu hatemewe guhagarara.

Ibyapa byinshi kandi mu mabara atandukanye, ariko icyo byose ibyo byapa bihuriraho, ni uko ibyinshi bikunze guhurira mu ibara ry'umukara, iryo bara ry'umukara riba riri hagati, akaba ari naryo ritanga ubutumwa nyir'izina icyo cyapa gishaka ababugenewe.

Hirya no hino mu mihanda minini haba hari ibyapa bitandukanye kandi bifite umumaro munini ariko ahanini hari aho ugera ugasanga hari ibyapa bigaragaraza amerekezo y'ahantu ndetse n'ibirometero birimo kugira ngo ugere aho hantu uvuye aho ngaho ugeze ako kanya.

Hirya no hino ku mihanda haba hagiye hari ibyapa bitandukanye kandi bisobanura ibintu bitandukanye, biba byiza yuko abagenzi ndetse n'abatwazi b'ibinyabiziga basobanukirwa icyo ibyo byapa bivuze mbere yuko bakoresha umuhanda kuko biba byiza, kuko ni bumwe mu buryo bwiza cyane bwo kwirinda impanuka zo mu muhanda.

Ibyapa byo mu mihanda hafi ya byose, usanga biri mu mabara abiri: ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara. Ariko ahanini icyo abantu bagomba guha agaciro cyangwa se ibara rigomba guhabwa agaciro, ni ibara ry'umukara. Kubera yuko ubutumwa icyapa kiba gishaka gutanga, buba bugaragarira mu ibara ry'umukara, riba riri hagati y'ibara ry'umutuku.

Ibyapa byo ku muhanda ubisanga mu mabara atandukanye cyane ,aho usanga hari ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umukara. Ariko biba bigoranye cyangwa se bikunze kugora abantu benshi kumenya ngo ikimenyetso kifite icyo kigaragaza nk'ibyo bimenyetso bibiri ni ikihe? kuko abantu benshi bakunze kwibaza ngo umutuku cyangwa umukara ni ikihe kimenyetso kiri gutanga ubutumwa muri ibyo bimenyetso bibiri.

Ibyapa byo mu muhanda dusangamo n'ibyapa biranga amerekezo y'ahantu. Ku buryo umuntu ahageze ashobora kumenya ngo aha ari ni hehe, ni mu kahe Karere, ni ku muhanda wa kangahe, kuri ibyo byapa usanga bigizwe n'amazina y'Akarere ndetse n'umubare w'umuhanda arimo.

Ibyapa byo ku muhanda nubwo biba biri mu mabara atandukanye biba biri no mu mashusho atandukanye, hari aho usanga riri mu ishusho y'ikinyampande cya mpande eshatu, ariko hari n'ibyo usanga biri mu ishusho y'ikinyampande cy'uruziga bitewe n'icyo gishaka gusobanura, akenshi ibyo ngibyo bikunze kuba biri mu ishusho y'ikinyampande cy'uruziga, usanga bisobanura umuvuduko ntarengwa ahantu runaka.

Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite imijyi isa neza ugasanga iragendwa n'imodoka moto ndetse n'abanyamaguru usanga iyo mijyi yubakitse iba yubatsemo inzu z'ubwoko butandukanye ariko ziba ziganjemo inyinshi ziba ari inzu zigeretse.

Ikizakubwira ko ahantu ari Umujyi cyangwa se agace runaka ari Umujyi kabone nubwo waba ukabonye ku ifoto, ni uko uzabona aho hantu hari imihanda itandukanye, hari amazu atandukanye, ndetse hari n'iterambere ritandukanye, harimo nk'imiyoboro y'amashanyarazi igezweho, n'ibindi bikorwa by'iterambere, aho hantu koko hazaba hari Umujyi.

Ushobora kureba umujyi runaka cyangwa se n'ahandi hantu runaka, bikaba bigoranye kwemeza aho ariho kuko n'ubundi usanzwe utahazi. Ariko nyamara iyo ari umujyi uba ubibona, cyangwa se hari igice cy'igiturage ubibona. Ariko ahenshi iyo hari umujyi ikintu kibigaragaza, ni uko wasanga'amazu menshi atandukanye, n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, bigaragaza neza yuko ana umujyi koko.

Hirya no hino hari amasoko aba yaragiye ateye imbere usanga akorera mu nyubako nziza kandi nini zigeretse kabiri cyangwa akarenze kabiri. Ayo masoko akenshi ukunze gusanga yegeranye n'umuhanda kuburyo umuntu azajya ava mu muhanda wa kaburimbo cyangwa se agaparika imodoka, ahita yinjira mu isoko ahaha cyangwa agura icyo akeneye yongera asubira mu modoka akomeza.

Ikintu kizakubwira ko ahantu hakorerwa igikorwa gikenerwa n'abantu benshi, ni uku uzahasanga ibinyabiziga byinshi bitandukanye ukahasanga moto nyinshi zitandukanye ndetse ukanahasanga n'abantu batandukanye, abo bose baje gushaka gahunda cyangwa se ibikorwa bitangirwa aho hantu, ugasanga bose bahahuriye kandi bikaba byiza iyo bose bahahuriye bafite intego imwe yo gushaka ibyo bikorwa.

Mu mijyi imwe n'imwe itandukanye ikintu kiranga yuko agace runaka kateye imbere cyangwa se ikintu kiranga ko agace runaka ari umujyi, ni uko uhasanga inzu nziza z'ubwoko bwose butandukanye, ukahasanga ibiti byiza by'ubwoko bwose butandukanye, ibyo byose ari bimwe mu mitako iba itatse igihugu, bigatuma igihugu kigaragara neza ku bakireba.

Inzu igeretse kabiri cyangwa akarenze kabiri kera mu gihugu cy'u Rwanda warayumvaga ukumva ni iby'amahanga gusa cyangwa se ukumva ni inzozi ariko ubu ntibikiri inzozi kuko hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hagiye harimo inzu zigeretse kabiri ndetse n'izirenze kabiri nyinshi kandi zitandukanye ibyo byose bigaragaza iterambere ry'igihugu kimaze kugeraho .

Usibye ibyapa byo ku muhanda bisanzwe usanga haba n'ibindi byapa bitandukanye n'ibyapa byamamaza igikorwa runaka kiyobora abaturage cyangwa batwaza ibinyabiziga mu itumirwa ry'ahantu runaka hari ikirori cyangwa se ahandi hari ikindi gikorwa abo baturage batumiwemo .

Iyo ubonye inzu nziza kandi yubatse neza ibyo ngibyo nta kindi bikugaragariza bikugaragariza ubuhanga bw'ikiremwamuntu, biragoye kwiyumvisha yuko inzu nziza cyangwa se ubuhanga bwo kubaka inzu nk'iyi ngiyi byaturuka mu mutwe w'ikiremwamuntu, ariko nta handi biva arabitekereza ndetse yifashishije akaboko ke akabishyira mu bikorwa kandi bikagenda neza.

Ikizakubwira ko inzu ari nziza imbere, ni uko uzasanga n'inyuma y'iyo nzu ari heza. Aho uzasanga ku ruzitiro rwayo hari ibiti n'indabo by'ubwoko bwose butandukanye, ukanahasanga ubusitani bwiza cyane ndetse n'uruhande rwaho ukahasanga hari umuhanda wa kaburimbo usa neza urimo isuku.

Ikizakubwira yuko' ahantu runaka ari umujyi cyangwa hateye imbere ni uko uzahasanga imihanda itandukanye kaburimbo ukahasanga amazu meza agezweho ndetse n'iyo mihanda ya kaburimbo ugasangamo ibinyabiziga bitandukanye nka moto ziri gukora akazi ko gutwara abantu mu buryo bwa rusange.

Iyo ufite igikorwa runaka ukora cyangwa ukorera ahantu mu buryo bumwe bwo kwamamaza ibyo ukora cyangwa ibyo ukorera aho hantu ni uko amarembo y'aho ubikorera akenshi ahora afunguye ku buryo uhanyuze wese areba yashaka no kuza ngo arebe azagaruke aje kugura akaza.

Umujyi wa Kigali ugiye urimo imirenge itandukanye ndetse n'uduce dutandukanye. Utwo duce twose niko tugiye dufite amazina atandukanye. Ubona izina runaka ryanditse ahantu runaka cyangwa ku kintu runaka. Iyo uri umuntu usanzwe uhazi, uhita umenya ngo aha ni mu mujyi wa Kigali mu gace aka n'aka.

Hirya no hino mu gihugu hagiye hari imijyi iyo mijyi itandukanye igi igaragazwa n'ibindi bintu bitandukanye hari aho usanga hari amazu menshi gusa kandi meza hari naho usanga hari amazu harimo ubusitani ndetse hari n'ibiti byiza bibereye ijisho kubireba.

Kuri iyi foto hari kugaragara umuhanda wa kaburimbo, inzu ku bipangu imodoka ndetse n'ibindi bikorwa by'abaturage, ibyo byose biri muri bimwe mu bizamura iterambere ry'igihugu kuko igihugu gifite imihanda ihagije, abaturage bakajya babona aho banyuze ibinyabiziga byabo na byo biri bimwe mu bintu bizamura iterambere ry'igihugu vuba kandi neza.

Iyi foto iragaragaza umujyi mu masaha ya nijoro, amatara yaka imodoka zigenda, abaturage bagenda n'ibindi bikorwa byose bigaragaza itera ryiza ry'igihugu ndetse n'amahoro muri rusange, kuko niyo abaturage bagenda nijoro moto zikagenda nijoro nta nkomyi bigaragaza umutekano w'igihugu.

Iterambere ry'imihanda inyuranamo ndetse n'indi iba igiye inyuze hejuru y'indi ntabwo ari iterambere ry'ibihugu byose ku isi hari ibihugu bimwe na bimwe bigiye bifite iryo terambere ariko ntitwirengagize ko hari n'ibindi bihugu bitaragera kuri iryo terambere iryo terambere rero ni kimwe mu gikorwa cy'indashyikirwa u Rwanda rwagezeho n'ibyo ngibyo birimo .

Ni byiza ko abagenzi bubahiriza uburyo bwabashyiriweho bwo kwambuka mu muhanda wa kaburimbo, bakajya bambukira ahabugenewe kandi mu gihe cyabugenewe mu rwego rwo kwirinda impanuka zo mu mihanda. Kuko iyo babizanyemo akavuyo bagatangira kwambukira ahatarabugenewe cyangwa se bakambuka mu gihe kitari icya nyacyo, usanga ariho bahura n'impanuka zibera mu mihanda.

Umuhanda wa kaburimbo ni kimwe mu bikorwa remezo ngirakamaro mu gihugu, bityo rero dukwiye kuwubungabunga kandi tukawugendamo neza nk'uko bikwiye, twirinda impanuka zibera mu mihanda n'ibindi bibi byabera mu mihanda.

Mu bikorwa bya leta bikomeye kandi bifite agaciro kanini twese tuzi, harimo n'imihanda. Kuko buriya gihugu kitagira imihanda imeze neza nta n'iterambere kiba gifite. Kubera ko umuhanda umeze neza, wubatse neza, kandi ukomeye, ni kimwe mu gikorwa cy'iterambere ry'igihugu.

Inyubako ndende isa n'amabara ya oranje ndetse n'ibirahure biyigize, icyapa kinini cy'umukara kiriho amagambo ya gihozo hoteli yanditse mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, ibinyabiziga biparitse imbere y'iyo nyubako ndetse n'abantu bagiye barimo baracaho.

Hirya no hino mu Rwanda mu mihanda hagati uhasanga hashushanyijemo ibimenyetso bitandukanye, ibyo bimenyetso byose biba bifite icyo bishushanyiriza abagenzi ndetse n'abatwazi b'ibinyabiziga kandi icyo kintu bishushanya kiba gikwiye kubahirizwa kuko n' amwe mu mategeko makuru aba agenga umuhanda.

Hirya no hino haba hagiye hari imihanda itandukanye, ishobora kuba minini cyangwa se mitoya bitewe n'ingano cyangwa ubwinshi bw'ibinyabiziga biyinyuramo. Iyo ibinyabiziga biyinyuramo ari byinshi kandi ari binini, usanga iyo mihanda ari minini kandi igaragara. Ariko iyo usanga ibinyabiziga n'ubundi biyinyuramo ari bitobito, usanga iyo mihanda iciye bugufi ari mitoya.

Abatwazi b'ibibinyabiziga ndetse n'abagenzi biba byiza iyo wubahirije amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka zibera mu mihanda, ayo mategeko aba akubiye mu byapa bigiye bitandukanye biba byarashyizwe mu mihanda aho ugeze ku cyapa kigusaba guhagarara ugahagarara, aho ugeze kukigusaba ugakata biba byiza iyo ukase bityo iyo ukoze ibyongibyo uba wirinze za mpanuka n'ibindi bib bibera mu mihanda.

Mu muhanda ahantu hatangirwa igikorwa runaka, usanga hari umurongo ubigaragaza, cyangwa se amagambo abigaragaza, usanga hari amagambo aba agaragaza neza yuko, aho hantu habera igikorwa runaka, ugasanga yanditse mu muhanda wa kaburimbo hagati.

Ibinyabiziga nka moto n'imodoka ni bimwe mu bintu byihutisha iterambere ry'igihugu ndetse bikoroshya ubuzima bw'abaturagihugu, bityo rero bikwiye kugenda mu muhanda nkuko bikwiye kugira ngo bikomeze byihutishe iterambere ry'igihugu ndetse bikomeze byihutishe ubuzima bw'abenegihugu mu buryo bunoze.

Imihanda myinshi ya kaburimbo mu gihugu cy'u Rwanda irangwa no kuba hari imirongo igishushanyije mu mihanda hagati iyo mirongo yose iyo ugenzuye neza usanga hari icyo ibishatse gushushanyiriza abagenzi cg se abatwaza b'ibinyabiziga.

Imodoka zitwara abagenzi ku buryo bwa rusange biba byiza iyo ari imodoka ziri mu ibara rizwi na buri wese ku buryo igihe cyose ushatse gutega imodoka itwara abagenzi ku buryo bwa rusange, aho uhagaze hose ukayibona ushobora guhita umenya ngo niyi ukayitandukanya n'izindi modoka bitewe n'ibara ryayo.

Hirya no hino ku mihanda usanga hari umwanya wagenewe guparikwamo imodoka mu gihegiye gusiga umugenzi, cyangwa se guparikwamo imodoka mu gihe imodoka igeze ikibazo umuntu bagiye kuyishakira ubuza akayikora, ibihagaze aho ngaho mu mwanya wabugenewe mu cyimbo cyo guhagarara mu muhanda hagati ikawuza izindi kugenda.

Mu mihanda itandukanye usanga hari uburyo bashyiriho abanyamaguru bwo kwambuka banyuze hagati mu muhanda ariko nabo baba bafite ahantu habugenewe ho kwambukira. Niyo mpamvu buri munyamaguru wese asabwa kubahiriza aho hantu ho kwambukira, akambukira ahantu habugenewe mu rwego rwo kwirinda impanuka zo mu muhanda.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya police, kikaba kigizwe n'amabara y'umutuku, umweru n'ubururu, kikaba kigizwe n'ibarangantego bibiri hari icy'u Rwanda n'icya police, ik'icyapa kikaba giteye mu busitani.

Mumihanda hirya no hino usangamo imodoka zitandukanye mubwoko butandukanye ndetse no mumabara atandukanye ariko icyo nyishi zihuriraho nuko zose zitwa imodoka kandi inyishi zikaba zigendera ku mapine ane.

Kimwe mu bitatse igihugu harimo n'ubusitani. Hari ubusitani usanga ku mihanda ya kaburimbo, aho usanga ubusitani bwubakiye neza mu muhanda, ndetse ubwo busitani ugasanga bushinzemo n'itara ryo ku muhanda, ugasanga n’ibintu bisa neza kandi bigaragarira neza abakoresha uwo muhanda bose.

Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bi biteye imbere cyane ku bijyanye n'imihanda. Ijoro n'amanywa imihanda mu Rwanda iragendwa, iyo ari nijoro amatara aba yaka ntakibazo, uragenda umutekano ni wose ndetse habayo n'abashinzwe umutekano, bari gucunga y'uko hatagira uhungabanya undi cyangwase ngo amuhutaze.

Umuhanda wa kaburimbo ubundi ubusanzwe uba waragenewe ibinyabiziga, naho abanyamaguru baba baragenewe akandi gahanda kaba kawushamikiyeho gato gato, ariko abagenzi baba bemerwe kugendamo gusa, nta mugenzi uba wemere kugendera mu muhanda wa kaburimbo uretse ahabugenewe ho kwambukira, na ho haba hari amabara aranga y'uko aho hantu umugenzi yemerewe kuhambukira.

Mu mihanda ya kaburimbo hagati, haba hagiye hashushanyijwemo ibimenyetso bitandukanye. Ibyo bimenyetso ahanini bigaragaza amerekezo atandukanye cyangwa se igikwiye gukorwa ako kanya igihe uhageze. Iyo ubonye ibyo bimenyetso, biba byiza rero iyo wubahirije ibyo bimenyetso, kuko ari bumwe mu buryo bwiza bwo kubahiriza amategeko agenga umuhanda.

Ahantu hose hari umuhanda wa kaburimbo, haba hari n'agahanda gatoya k'abanyamaguru. Abanyamaguru bakoresha ako gahanda gatoya kaba kari imbere y'umuhanda wa kaburimbo, mu cyimbo cyo gukoresha kaburimbo kubera ko iyo bakoresheje umuhanda wa kaburimbo, bishobora guteza impanuka zitunguranye.